Abantu benshi cyane bagiye batandukanye bateraniye hamwe bari mu nama, harimo n'abapolisi bashinzwe umutekano wo mu muhanda. Imbere yabo ahagaze umugabo wambaye amadarubindi ari kugenda abagezaho ijambo.

Umugore wambaye ikanzu y'umutuku yambaye amadarubindi, akaba ari mu nama yicaye ari mu nama ndetse ari kumwe na bagenzi be, buri wese afite agacupa ka ji imbere ye, bakurikiye umuntu ubari imbere.

Umugabo wambaye umupira w'umukara, akaba afite indangururamajwi mu ntoki, yambaye n'amadarubindi bigaragara ko ari mu nama ari kureba abo abwira kugira ngo abagezeho ijambo.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe, bambaye imyambaro igiye itandukanye, aho bicaye ku ntebe ziri mu mabara y'ubururu, bakaba bareba imbere bigaragara ko bakurikiye umuntu uri kubakoresha inama.

Intore nyinshi cyane ziri ahantu mu bukwe ziri guhamiriza ndetse harimo n'abakobwa beza b'inya bari guseka, bambaye imikenyero bigaragara ko baberewe, ubu n'uburyo bwo gusigasira umuco nyarwanda.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe bari mu gikorwa cy'imbyino Nyarwanda, bambaye imyambaro iri mu mabarage atandukanye, n'itorero aho harimo abakobwa n'abahungu bari kubyina neza bashayaya biryoheye ijisho.

Abantu babiri b'abasore bigaragara ko ari intore, bambaye imyambaro yabugenewe intore zambara ziri kuririmba ndetse zibyina, banitse agatuza hanze aho bafite amacumu n'ingabo bagiye kujya barahamiriza.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe bari gukoma mu mashyi kubera ko bambaye imikiniro myiza y'umukara n'umweru, bikaba bigaragara ko ari itorero riririmba indirimbo za gakondo mu rwego rwo kubungabunga umuco nyarwanda.

Agacuma karimo umuheha, kakaba kifashishwa bari kunywa amoko agiye atandukanye y'inzoga, aka ngaka rero kifashishwa mu rwego rwo gusigasira umuco nyarwanda kuko bakifashishaga cyane mu muco nyarwanda.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe bari kuririmba indirimbo za gakondo aho bafite imikenyero ndetse bakaba bafite n'ingoma abandi bari gukoma mu mashyi, imbere hari umuntu ufite indangururamajwi wambaye n'amadarubindi uri kugenda atera.

Ikibindi giteritse ku rugata ni kimwe mu bikoresho biranga umuco wa kinyarwanda, byakundaga kwifashishwa kera kugira ngo basigasire umuco, kuko bagabanyweragamo inzoga ariko ubu ntikagikoreshwa.

Abantu bahuriye hamwe bari mu nama biganjemo abakuru ndetse n'abato, buri wese akaba afite icupa ry'amazi na ji imbere ye, bakaba bari mu gikorwa cyo gusigasira umuco nyarwanda.

Amapironi akunze kuba ari ahantu h'ibibaya, aho aba yubakishijwe ibyuma akanyuraho insinga zigiye zitandukanye z'amashanyarazi, azijyana mu bice bigiye bitandukanye by'icyaro kugira ngo abaturage b'aho babashe gucana.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere aho mo imbere harimo icyumba kiba kiberamo ibikorwa bigiye bitandukanye by'umwihariko ibijyanye n'umuriro w'amashanyarazi, harimo umuntu wabyigiye aho aba ari kugenda abikurikirana.

Ahantu hari ibyuma binini cyane bigiye bitandukanye by'amapiloni, byifashishwa mu gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi ibizwi nk'urugomero, aho haba hari ingufu nyinshi z'umuriro w'amashanyarazi.

Umuhanda wa kaburimbo mwiza cyane wubatswe mu buryo bugezweho aho haba hariho n'ibyapa byamamaza, hariho n'amatara yo ku muhanda agenda amurikira abantu baca muri uwo muhanda mu masaha y'ijoro.

Umurima uteyemo ipoto rirerire ryubakishije ibyuma rizwi nk'ipironi, aho ritwara umuriro w'amashanyarazi riwugeza ku baturage, hanyuzeho insinga zigiye zitandukanye, ndende kandi zikaze.

Abakobwa bagera muri bane bambaye impuzankano z'utujiri tujya gusa icyatsi, bikaba bigaragara ko bakora ibintu bijyanye n'umuriro w'amashanyarazi, bakaba ari abakobwa beza cyane kandi bishimye.

Umugabo wambaye isarubeti y'umukara, akaba yarize ibijyanye n'amashanyarazi, akaba ari ahantu ku gikuta yafunguye kashi pawa ari kugenda areba insinga ziyigize kugira ngo akurikirane ibijyanye n'umuriro w'amashanyarazi.

Umugore wambaye akajirire k'icyatsi ndetse akaba yambaye n'ingofero y'abafundi. Bigaragara ko yize ibintu bijyanye n'umuriro w'amashanyarazi, akaba atanga serivisi zijyanye no gukora umuriro w'amashanyarazi.

Ahantu hari inyubako nziza itangirwamo serivisi zigiye zitandukanye, by'umwihariko izo kubungabunga umuriro w'amashanyarazi, ahazwi nko ku rugomero, haba hari amapironi meza cyane, manini atanga insinga.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho iyi nyubako itangirwamo serivisi zigiye zitandukanye z'ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga cyangwa se umuriro w'amashanyarazi. Aho harimo moteri nyinshi cyane.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho yubakishije amatafari ahiye ndetse ikaba imanitseho na cashpower ahagana ku ruhande yifashishwa iri kubara umuriro w'amashanyarazi.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe bigaragara ko bakora ibijyanye n'amashanyarazi, bambaye imyambaro y'utujire dusa icyatsi ndetse n'ingofero z'umweru bakaba bahuriye hamwe ku rugomero rw'amashanyarazi.

Umuhanda wa kaburimbo ukikijwe n'amoko menshi agiye atandukanye y'inyubako, aho ari inyubako y'ibitaro yubatswe mu buryo bugezweho aho isakaje amabati y'ubururu ndetse ifite n'amarange y'umweru.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho bw'amagorofa, aho zisakaje amabati y'ubururu, zikaba zifite ibendera ry'u Rwanda, riri mu mabara y'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi, hakaba hari n'abantu bari kugenda bahagana.

Ahantu mu muhanda wa kaburimbo hari icyapa kiri mu mabara y'umweru ndetse n'icyatsi, kikaba cyanditseho ngo muraka neza mu Karere ka Nyagatare bigaragaza ko ari ku mupaka wa Nyagatare na Gatsibo.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro yubatswe mu buryo bugezweho, ifite amabati y'ubururu ndetse iteye n'irangi ry'ubururu ku bikuta, aho mo imbere ku rubaraza hari abantu benshi bagiye batandukanye bahahuriye baje kwivuza.

Abantu benshi cyane bari kugenda icyarimwe, higanjemo ab'igitsina gore ndetse n'igitsina gabo, bakaba bari kugenda binjira ahantu mu gihugu cy'u Rwanda, aho hejuru handitse ngo urugendo ruhire ku bantu bari kujya Uganda.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere aho iyo nyubako isakaje amabati y'ubururu ndetse ikaba ifite n'umureko w'ubururu, ikaba yanditseho mu magambo y'umweru ngo ibiro by'Akagari ka Ndego.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho hari n'icyapa cyerekana umupaka w'Akarere ka Nyagatare ndetse n'Akarere ka Gatsibo, aho handitseho ngo akarere ka Nyagatare kabifurije urugendo rwiza.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere akaba ari ibiro by'Umurenge, bisakaje amabati y'umutuku ndetse inkingi ziteye amarangi y'umweru, harimo ubusitani bwiza buteyemo ibendera ry'u Rwanda.

Ikiraro giciye ahantu mu kirere, kikaba kiri kugenwaho n'abantu bagiye batandukanye, bari kugenda bacyambuka bajya mu mirimo yabo ya buri munsi, iki kiro giheherereye mu karere ka Huye.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho ya stade, aho harimo ikibuga giteyemo tapi nziza cyane y'ibyatsi byiza ndetse hakaba hari n'ahantu abafana bicara barebera umupira heza cyane.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho aho iteye amarangi y'umweru ndetse n'icyatsi, isakaje amabati y'ubururu ndetse ikaba ifite n'ibigega by'umukara, ni inyubako yubatswe mu buryo bugezweho itangirwamo serivise runaka.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho iteye amarangi ajya gusa umuhondo ku bikuta ndetse ifite inkingi zisa n'ivu, hakaba hari abantu benshi bahahagaze batandukanye, baje kuhashaka serivise.

Umuhanda wa kaburimbo uri kunyura ahantu mu giturage, ukaba ugiye ukikijwe n'ubusitani bwiza ndetse n'utuyira tw'abanyamaguru ndetse n'amatara yo ku muhanda amurikira abagenzi mu gihe cya nijoro.

Iyi nyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho isakaje amabati y'ubururu, ikaba iteye irangi ry'umweru ku bikuta ahagana hejuru ndetse ikaba yubakishije amatafari ahiye, biragaragara ko ari inyubako ya Leta.

Umuntu utwaye moto iri kugenda ku kiraro cyubatswe na Leta y'u Rwanda aho ibi biraro biba byubatse mu kirere, abantu rero bafite ibinyabiziga baroroherejwe ku buryo banyuraho nta kibazo bafite na kimwe.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho imbere yayo hari abantu bari kuyifotoreza biganjemo abagore ndetse n'abagabo, ikaba yanditseho ngo ibi by'Umurenge wa Rukomo.

Inyubako nziza cyane y'ishuri, aho yubakishije amatafari ahiye ndetse ikaba isakaje n'amabati meza cyane, ifite imiryango n'amadirishya, bikozwe mu byuma kandi biteye irangi ry'umukara.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho izi nyubako zisakaje amabati y'ubururu ndetse zikaba zubatswe no mu buryo bw'amagorofa, zikaba zifite imihanda igiye iziganaho ya kaburimbo.

Iyi modoka iri kugenda mu muhanda, ihetse ikimashini gihinga. Ikaba igiye kugera ku kiraro yitegura kuba yacyambuka. Iki kiraro kirubatse neza kirakomeye, kuko cyubatswe n'abantu b'abahanga.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bahuriye hamwe aho bari mu nama, hakaba hari umwarimu uhagaze imbere ari kugenda abagezaho ijambo hanyuma na bo bamuteze amatwi ngo bumve ibyo ababwira.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe muri sitade, aho higanjemo ab'igitsina gore ndetse n'igitsina gabo bakaba bishimye bari kubyina bigaragara ko banezerewe ikipe yabo yatsinze ni byiza cyane gushimira ababnyi.

Abantu bateraniye hamwe bari mu nama aho harimo abashinzwe umutekano nk'abasirikare ndetse n'abapolisi hakaba harimo n'abandi baturage, imbere yabo hahagaze umugabo wambaye amadarubindi n'ishati ari kubagezaho ijambo.

Abantu benshi cyane bagiye batandukanye bahuriye hamwe higanjemo ab'igitsina gore ndetse n'igitsina gabo, harimo umugabo w'umuganga ndetse n'abandi b'abayobozi bakaba bari mu gikorwa cyo kubahiriza uburenganzira bwa muntu ndetse no kurwanya ubutabera.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe, higanjemo ab'igitsina gore ndetse n'igitsina gabo, harimo umugabo umwe, wambaye imyambaro y'abashinzwe umutekano w'umupolisi, bakaba bari mu nama, ishinzwe gushyira imbere ubutabera.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho inyubako yubakishije amatafari ndetse isakaje amategura. Ikaba yanditseho ngo ko ari ikigo cya Nyagatare cyita ku bantu bafite ikibazo cy'ihungabana.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe, higanjemo abapolisi bashinzwe umutekano ndetse n'abagore bagiye batandukanye, bakaba bari mu nama aho bahagaze imbere bari kuvuga ngo bagomba guteza imbere ubutabera ndetse no kubahiriza uburenganzira bwa muntu.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe bigaragara ko bari mu nama yo guca ubutabera cyangwa se akarengane, hakaba hari umusirikare ndetse n'umu Dasso, n'umugore uhagaze ari kubakoresha iyo nama.

Abantu bahuriye hamwe aho bari mu gikorwa cy'umuganda ndetse bakaba bafite n'inkoko ziri imbere yabo buri wese inkoko imbere ye, bakaba bari mu gikorwa cyo guteza imbere ubworozi bw'inkoko.

Umugore wambaye imikenyero n'amadarubindi, akaba afite indangururamajwi mu ntoki bigaragara ko ari kuvuga insanganyamatsiko y'iyo nama iravuga uburyo ki bateza imbere ubutabera ndetse no kubahiriza uburenganzira bwa muntu.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe, harimo n'abakorera inzego z'umutekano bazwi nk'abasirikare cyangwa abapolisi, bakaba bari mu nama, harimo n'abaturage, bose buri wese afite icupa ry'amazi imbere ye.

Abantu bateraniye hamwe bicaye mu ntebe nziza zigezweho, aho yiganjemo ab'igitsina gore ndetse n'igitsina gabo, bakaba bambaye imyambaro iri mu mabara atandukanye, bakaba bari mu gikorwa runaka.

Abantu bari kugenda mu muhanda higanjemo ab'igitsinagabo, cyane cyane ni abantu b'abayobozi aho bari kugenda ari benshi cyane, bari mu gikorwa cyo kurwanya akarengane ndetse no kubahiriza uburenganzira bwa muntu.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe bari mu nama, higanjemo abana bakiri bato ndetse n'ababyeyi babo, bakaba bari mu nama imbere yabo hahagaze umugabo wambaye ishati y'umukara n'ikote ry'ikoboyi ari kugenda abagezaho iyo nama.

Abantu bateraniye hamwe, biganjemo abambaye imyambaro iri mu mabara y'icyatsi, bigaragara ko bakorera ikigo gishinzwe ubutabera ndetse no guteza imbere uburenganzira bwa muntu, bakaba bambaye ingofero z'umukara.

Inama yahuriwemo n'abantu benshi bagiye batandukanye higanjemo ab'igitsina gore ndetse n'ab'igitsina gabo, bakaba bafite insanganyamatsiko yo kubungabunga uburenganzira bwa muntu ndetse no gusigasira ubutabera.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe bari mu nama, aho imbere hari umugore uri guhabwa impano n'umugabo wambaye agashate k'amace ndetse n'umusirikare bigaragaza ko bari buca akarengane.

Icyapa kiba kiri ku muhanda kiri mu mabara y'umutuku ndetse n'umweru, gishushanyijeho igare mu mabara y'umukara, hakaba hariho n'ipoto rirerire ritwara insinga z'umuriro w'amashanyarazi.

Umuhanda wa kaburimbo ukikijwe n'ibyapa bigiye bitandukanye aho ibi byapa bigenda bibara ubuso bw'umuhanda ndetse n'aho umuntu ageze, iki ngiki cyanditseho mirongo inani bigaragaza ko ugomba kwitonda uhageze.

Umuhanda wa kaburimbo ukikijwe n'ubusitani bwinshi bugiye butandukanye aho muri ubwo busitani harimo akapa kari mu mabara y'umutuku ndetse n'umukara n'umweru kerekana ko uwo muhanda imbere ushamikiyeho uwundi.

Umuhanda wa kaburimbo ufite akapa ku ruhande rw'iburyo kari mu mabara y'umutuku n'umweru karimo ikimenyetso cy'umusaraba mo hagati mu ibara ry'umukara kerekana ko umuhanda imbere ufite udushami tubiri.

Umugabo uhagaze ku ruvugiro, afite indangururamajwi mu ntoki, akaba ari gutanga igitekerezo cye kubera ko bari mu nama kandi nta muntu uhejwe, buri wese akaba yemerewe gutanga igitekerezo cye gitandukanye.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe, bari mu gikorwa cy'umuganda. Aho higanjemo abayobozi, bambaye imyambaro iri mu mabara y'umukara. Bakaba bafashe iya mbere kugira ngo babimburire abaturage babone uko bikorwa.

Abantu benshi cyane bateraniye ahantu hamwe bigaragara ko harimo n'abashinzwe umutekano, hakaba hari abahagaze imbere ndetse n'abandi bicaye mu matente, amadente arasa umweru ndetse akaba abatwikira izuba.

Umuntu uri kugenda ari kumwe n'abashinzwe umutekano akaba ari umuyobozi, muri abo bashinzwe umutekano harimo abasirikare ndetse n'abapolisi bakaba bari kugenda ahantu mu nyubako bigaragara ko hari ibintu ari gusura.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe, biganjemo abaturage bakaba bahuriye hamwe mu gikorwa cy'umuganda aho bari kugenda bakorera hamwe kandi bishimiye. Iki gikorwa rero kiba cyarateguwe na guverinoma y'u Rwanda.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe harimo ab'igitsina gore ndetse n'igitsina gabo, bakaba bari mu gikorwa cya Leta cy'umuganda, aho harimo n'abashinzwe umutekano bazwi nk'abasirikari cyangwa se abapolisi.

Abantu benshi bateraniye hamwe bigaragara ko bari mu gikorwa k'inama aho yiganjemo ab'igitsina gore ndetse n'igitsina gabo, bahagaze ahantu hari ubusitani bwiza cyane ndetse inyuma yabo hari ibiti birebire.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe mu gikorwa cy'umuganda aho bari kugenda bahoma inzu, bayihomera umuturage, bari kubumbabumba icyondo bakagihereza abari guhoma, hanyuma bakagihoma kuri iyo nzu hanyuma nayo ikamera neza.

Ababyeyi benshi cyane bateraniye hamwe aho bigaragara ko bari mu nama biganjemo ab'igitsina gore ndetse n'igitsina gabo, bamwe baricaye abandi barahagaze bari gukoma amashyi bigaragara ko bishimye.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe bari mu gikorwa runaka, biganjemo abaturage bigaragara ko bari mu muganda, aho bari kugenda bahinga abandi bateyura, umuganda rero ni igikorwa cyashyizweho na Guverinoma y'u Rwanda.

Inyubako nziza cyane yubakwe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho ifite ibikuta iteye amarangi y'umweru, imbere yayo hapagetse imodoka, hakaba hahagaze abagabo batatu ndetse n'umusirikare umwe.

Umugabo uhagaze mu ruhame rw'abaturage afite indangururamajwi mu ntoki ari kuvuga, abaturage rero bari kumwitegereza aho bari kumva igitekerezo ke kubera hari ikibazo runaka ya yagize akaba ari kugitanga mu nteko y'abaturage.

Abantu bagera kuri batatu bahagaze imbere harimo umwe w'umupolisi ndetse na babiri b'abakoranabushake, aho bafite ibyapa mu ntoki byanditseho ngo gerayo amahoro, umupolisi akaba ari gusobanura mu nama icyo bishatse kuvuga.

Abakinnyi b'umupira w'amaguru aho bambaye imyambaro iri mu ibara ry'umuhondo bakaba bagiye gukina umupira, bafite icyapa mu ntoki cyanditseho ngo amarushanwa y'Umurenge Kagame Cup, twimakaze imiyoborere myiza duharanira ko umuturage aba ku isonga.

Abantu benshi cyane bicaye ahantu muri sitade bagiye kureba umukino w'umupira w'amaguru, aho harimo umugabo wambaye agapira k'ikipe ya Liverpool, yagiye kwirebera umupira na we.

Ni byiza cyane ko abantu bose bitabira gukora imyitozo ngororamubiri kuko imyitozo ngororamubiri ni myiza cyane, iyo umuntu ayikoze imurinda indwara zigiye zitandukanye, maze ubuzima bwe bukamererwa neza cyane.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe mu kibuga, aho bari kugenda bakora imyitozo ngororamubiri, bambaye imyambaro myinshi igiye itandukanye ya siporo, aho imbere yabo hahagaze umuntu uri kugenda aberekera ibyo bakora.

Abantu bari mu kibuga aho bari gukina umupira higanjemo abakinnyi b'abagore bambaye amajiri ndetse n'amajezi ari mu mabara agiye atandukanye y'umukara ndetse n'umutuku, bakaba bari kugenda bakina kugira ngo barebe ikipe iraza gutsinda.

Abantu bari gukina umupira w'amaguru b'igitsina gore, akaba ari amakipe abiri, aho imwe yambaye imyambaro y'umukara, abandi ubururu n'umweru, ikipe y'umukara ihagaze ku mupira, bigaragara ko igiye gutsinda.

Abakinnyi b'umupira w'amaguru bari muri siporo, aho barigenra mu kibuga bakina umupira, bakaba ari ab'igitsina gore, aho biteguye kuba batsinda ibitego byinshi muri uyu mukino, hanyuma abari kuwureba bakishima.

Abantu benshi cyane bahuriye mu kibuga bari gukina umukino w'umupira w'amaguru, higanjemo amakipe abiri aho harimo abahungu bari kwataka abandi bigaragara ko bashaka gutsinda ndetse hari n'abari kudefanda.

Abantu bari mu kibuga b'igitsina gore, bakaba bari gukina umupira w'amaguru, bambaye imyambaro igiye itandukanye, ariho ikipi imwe yambaye umutuku n'umukara, iyindi yambaye umukara gusa, bari mu kibuga, aho harimo n'umusifuzi.

Amakipe abiri yari gukina none imwe ikaba yatsinze itwaye igikombe, none hakaba hari umuyobozi uri kugenda abambika imidari abashimira, kubera ukuntu bitwaye neza.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendwamo n'abantu b'ingeri zigiye zitandukanye by'umwihariko bari ku magare, uyu muhanda ukaba ukikijwe n'ubusitani bwiza cyane ndetse n'utuyira tw'abanyamaguru hakaba hari n'inyubako z'ubucuruzi.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendwamo n'ikinyabiziga k'imodoka iri mu mabara y'umweru ndetse iyi modoka ikaba ari nziza cyane, uwo muhanda ukaba kandi ukikijwe n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

umuhanda wa kaburimbo uri mu mabara y'umukara aho harimo umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri, hakaba hari agahanda gashamikiyeho kari kugendwamo na moto, kakaba gakikijwe n'ibiti bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Umwana w'umunyeshuri uvuye kwiga, akaba ari kugenda mu kayira k'abanyamaguru kaba gakikije umuhanda wa kaburimbo, muri uwo muhanda hakaba hari kugendamo moto itwaye umugenzi iri kwiruka.

Imodoka iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo ikaba iteye amarangi y'ubururu, iyo modoka irimo umuntu wayiguriye ku giti ke ikaba, igeze imbere y'inyubako zicururizwamo.

Umuhanda w'igiturage ahantu w'igitaka ukaba ugiye unyura hagati y'amazu menshi agiye atandukanye, ayo mazu akaba ari ay'abaturage batuye ahantu mu cyaro bagiye batandukanye.

Umuhanda uri kunyurwamo n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye ariko uwo muhanda akaba ari uw'igitaka bigaragara ko ari umuhanda wo mu giturage ahantu mu byaro hadakunze kunyuramo ibinyabiziga byinshi.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo uri ugenrwamo n'amoko agiye atandukanye y'ibinyabiziga, aho harimo akamodoka keza kagendwamo n'abayobozi, umuhanda ukaba ukikijwe n'utuyira tw'abanyamaguru ndetse n'ubusitani bwiza cyane.

Umuhanda wa kaburimbo, uri kugendwamo n'igare risunitswe n'umuntu, asunitseho ibitoki, ukaba ukikijwe n'utuyira tw'abanyamaguru, aho hahagazemo umuntu, uri kwitegereza uwo muntu usunitse ibitoki.